Abaturage biganjemo urubyiruko bahuriye hamwe mu bukangurambaga bwo kurwanya sida, umupolisi ari imbere yabo abaganiriza.

Abantu bicaye hamwe mu nama cyangwa ibiganiro bahuriye ku meza ateretseho amazi ndetse bakoresha mudasobwa, abandi bandika inyandiko.

Abantu bicaye hamwe bari mu biganiro bayoboye inama cyangwa ibindi biganiro, umwe avugira mu ndangururamajwi.

Abantu bicaye mu nzu mberabyombi ihurirwamo igihe hagiye kuba inama bicaye hamwe bari kuganirira ku meza ateretseho amazi ndetse na mudasobwa hamwe n'imitobe.

Abantu bahuriye ku meza amwe bari kuganira bari mu nama, ku meza hateretseho amazi, telefoni zigendanwa bigaragara ko bakurikiranye inama.

Abantu bahuriye hamwe bari mu nama cyangwa ibiganiro bari ku meza amwe ateretseho amazi, indangururamajwi, mudasobwa, ndetse bakoresha telefoni zigendanwa.

Abantu bicaye mu nzu mberabyombi iberamo inama, bari kuganira ku meza hari amazi, hari uhagaze ari kubaganiriza ayoboye inama.

Abantu bicaye hamwe mu nama baganira ku meza hateretse, indangururamajwi n'amazi bamwe bakoresha telefone zabo ngendanwa.

Abantu bicaye hamwe baganira, bari gukoresha inyandiko ku meza ateretseho amazi, bari mu biganiro cyangwa inama.

Abantu bicaye bari mu nama baganira bari kuganira ku meza imbere hari uyoboye inama ari kubaganiriza.

Abantu bicaye hamwe bari mu biganiro cyangwa inama, imbere hari abayoboye, ameza ateretseho amazi, abandi bahagaze n'ibirango bigaragaza icyo barimo.

Abantu bifotoza bigaragara ko bari bari kwigisha ibintu by'imishinga, abifotoje harimo abagabo n'abagore, imbere yabo hateretse igikoresho gikoreshwa mu kugaragaza amashusho.

Abantu bahuriye hamwe bicaye bari mu biganiro cyangwa inama, hari abayoboye inama ndetse n'ibyapa bigaragaza ikiri kuhabera.

Abantu bicaye hamwe mu biganiro cyangwa inama uri imbere ayoboye inama abasobanurira akoresheje indangururamajwi ku meza hateretse amazi.

Abantu bicaye hamwe mu nama cyangwa ibiganiro, bahuriye ku meza ateretseho amazi n'ibindi binyobwa ndetse n'inyandiko bifashisha mu nama.

Abantu bicaye hamwe mu nzu mberabyombi bakurikiye inama bari gukoresha mudasobwa zabo mu ibyo bakurikiranye.

Inama yitabiriwe n'abantu benshi bahuriye munzu mberabyombi iberamo inama bakaba bari kuganira mu matsinda agiye atandukanye mu myambaro myiza.

Umuntu uyoboye inama uri imbere y'abandi bigaragara ko ari kubasobanurira inyuma ye hicaye abantu bandi bakurikiranye inama.

Abantu benshi bahuriye hamwe bari kwidagadura munsi y'inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'imyidagaduro.

Abaturage bahuriye hamwe bicaye munsi y ihema bambaye imyambaro isa bakurikiye inama cyangwa ibiganiro.

Abaturage bicaye hamwe bakurikiye inama cyangwa ibiganiro, uri imbere abasobanurira akoresheje indangururamajwi.

Ifoto y'abanyeshuri bicaye hamwe bigaragara ko baje mu biganiro cyangwa se inama, biganjemo abana bakiri batoya bari hamwe hari ibyo bakurikiranye.

Abantu bifotoreza hamwe basoje ibiganiro, cyangwa inama bifotoreza ku byapa bigaragaza icyo bari barimo.

Ubuyobozi bwa leta buhuriye mu nama igizwe n'abantu benshi baganirira ku meza ariho ibyo kunywa bisa naho bari mu nama.

Abantu benshi bifotoreza hamwe imbere y'inyubako, bigaragara ko basoje ibiganiro cyangwa inama yaberaga hano.

Iyi nama ihuje abagize ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, ndetse n'abafatanyabikorwa bayo, bigaragara ko bari kuganira bahuriye ku meza bateretseho amazi.

Itangazo ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro rishishikariza abaturage kugaragaza impano zabo bagatsindira amafaranga.

Itangazo ry'ikigo cya leta risobanurira abaturage uburyo bakwiye gukoresha gazi neza n'uburyo wakwirinda igihe wahuye n'impanuka.

Ahakoresherezwa mudasobwa n'abantu benshi bahahuriye bari kuzikoresha undi ahagaze ari kwigisha uko bakoresha mudasobwa.

Urubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda. Rwerekana uburyo abaturage barukoresha, rukaba rukoreshwa muri telefoni igendanwa.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rukoreshezwa kuri murandasi, rwerekana ahari amahirwe y'akazi, rukoresherezwa muri telefone igendanwa.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bwerekeranye n'ibigo by'imari, ndetse n'ibigo bifasha abantu mu kohererezanya amafaranga hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Urubuga rwa guverinoma y'u Rwanda rutangirwaho serivisi hakoreshejwe ikoranabuhanga kuri mudasobwa cyangwa telefoni igendanwa.

Urubuga rwa Guverinoma y'u Rwanda rutangirwaho serivisi za leta, hakoreshejwe ikoranabuhanga rya mudasobwa cyangwa telefoni igendanwa ndetse rugakoreshwa n'abaturage.

Ifoto y'urubuga rwa interineti cyangwa se ahakoreshwa muri telefone cyangwa se mudasobwa aho umuntu aba ari kwiyandikisha bamusaba gushyiramo ibimuranga byose kugira ngo abashe kwiyandikisha.

Itangazo ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, rimenyesha abasora ko bari gushimirwa kubera ko batanze imisoro neza.

Itangazo rigenewe abakoresha urubuga rw'ikigo cy' igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, rubamenyesha ko umunsi wanyuma wo kwishyura imisoro wageze.

Itangazo ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro, risobanurira abaturage uko wakoresha gaze neza. Kugira ngo idateza impanuka.

Ifoto y'urubuga rwa murandasi rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro igaragaza uburyo abarukoresha bishyuramo imisoro itandukanye.

Itangazo ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro bishishikariza abasora kwigaragaza aho bagiye badatanga imisoro yabo neza kugira ngo babashe kuyitanga.

Urubuga irembo rugaragariza abaturage uko bakwiyandikisha kugira ngo bajye bikorera byinshi birimo serivisi bakoresheje telefoni zabo ngendanwa.

Abantu bahagaze bari hamwe bari gukoresha mudasobwa zabo ndetse na telefone zigendanwa, bari mu nama cyangwa se ibiganiro.

Itangazo rigaragaza amatariki n'igihe inama izabera y'abakina umukino w'imodoka ndetse n'igihe hazatangirwa ibihembo.

Umunara muremure ukoreshwa mu koroshya itumanaho hagati y'abantu bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga ,amapoto atwara umuriro w'amashanyarazi n'inyubako zikikije umunara.

Itangazo ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro riburira abasora ko umunsi ntarengwa wo kwishyura imisoro wageze kugira ngo badahabwa ibihano.

Ubutumwa bugenewe abaturage bushishikariza abantu gusura ibyiza bitatse u Rwanda burebewe muri terefoni igendanwa hagaragara inyamaswa ziri mu ishyamba.

Umunara muremure w'itumanaho, wubatswe ahantu hazitiwe, hari n'amazu aturwamo n'abaturage, hanyura n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Umunara muremure usizwe amabara y'umutuku n'umweru ukoreshwa mu itumatumanaho ahanini hakoreshejwe amatelefoni akaba ariwo ubasha kwemerera ayo matelefone gutumatumanaho.

Ahatangirwa serivisi abaturage baje kuzisaba, utanga serivisi akoresha mudasobwa ye mu guha serivisi abamugana.

Urubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda rugaragaza uko abaturage barukoresha, bashaka kumenya byinshi byerekeranye ni imiyoborere y'igihugu.

Ibikoresho byifashishwa mu gutunganya umuriro w'amashanyarazi ujyanwa ahakorerwa imirimo itandukanye, ndetse no mu mazu y'ubucuruzi insinga zijyana umuriro w'i....

Amahuriro y'imihanda, inyurwamo n'ibinyabiziga, abanyamaguru batambuka, amatara ayobora ibinyabiziga ndetse n'amatara yo ku muhanda.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'ibikoresho byo mu rugo hari inyubako hakaba hari n'ibimera byiganjemo ibiti ndetse n'ipoto itwara umuriro w'amashanyarazi.

Igikoresho gitunganya umuriro w'amashanyarazi gishinze hasi. Umunara utwara umuriro w'amashanyarazi uri inyuma ahantu hari ibimera byinshi byiganjemo ibyatsi.

Aha ifoto y'ipoto bigaragara ko itwara umuriro w'amashanyarazi iwujyana mu mazu y'abaturage, hariho insinga ndetse ikaba ishinze ahegereye inzu ziturwamo n'abaturage.

Ipoto isakaza umuriro w'amashanyarazi mu ngo z'abaturage ndetse nibindi bikorwa bikenera umuriro w'amashanyarazi, itara ryo ku muhanda ndetse ibimera biri inyuma higanjemo ibiti.

Ipoto isakaza umuriro w'amashanyarazi mu ngo z'abaturage ibiti ndetse n'ipironi ritwara umuriro w'amashanyarazi.

Iminara itwara insinga z'umuriro w'amashanyarazi, ziwujyana aho amazu y'abaturage ari cyangwa ibindi bikorwa bikenera umuriro w'amashanyarazi.

Umunara wifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu baturage ndetse n'ahandi hari ibikorwa bya muntu, n'ipoto igeza umuriro mu nzu z'abaturage.

Ipironi ritwara umuriro w'amashanyarazi, ibiti biteye iruhande rw'umuhanda, abanyamaguru batambuka mu muhanda n'ibinyabiziga bigenda mu muhanda.

Amahuriro y'imihanda inyurwamo n'ibinyabiziga imodoka n'amapikipiki ndetse n'abanyamaguru, hari ibiti bikikije umuhanda ndetse n'amazu akorerwamo ubucuruzi.

Amazu y'ubucuruzi ndetse n'aturwamo n'abaturage yubatse iruhande rw'umuhanda, hari abaturage bari kugenda haparitse ibinyabiziga birimo imodoka amagare ndetse n'amapikipiki.

Ipoto ikoreshwa mu gusakaza umuriro w'amashanyarazi mu ngo z'abaturage ndetse no ku yandi mazu akorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi.

Umuhanda ukorwamo amasuku wubatswe mu buryo bugezweho iruhande hari amazu akorerwamo ubucuruzi ibinyabiziga bitambuka ndetse n'abanyamaguru.

Ibyuma byifashishwa mu gutunganya umuriro w'amashanyarazi, ujyanwa mu nzu z'abaturage, abakozi bambaye imyambaro y'akazi, ahantu hari inyubako.

Ahagaragara icyuma gikoresha umuriro w'amashanyarazi, kikaba kiwungabanya cyangwa kikawongera igihe bari gusakaza umuriro mu baturage cyangwa se ahandi hantu hakorerwa ibindi bikorwa bikenera umuriro w'amashanyarazi.

Amazu aturwamo ndetse n'ibiti biteye iruhande rwayo n'ipoto isakaza umuriro w'amashanyarazi ku mazu atuwemo n'abaturage.

Amapoto asakaza umuriro mu bice bituwemo n'abaturage, ndetse n'ibyuma byifashishwa mu kubagezaho uwo muriro, hari n'ibimera byinshi byiganjemo ibiti.

Ibyapa biri ku muhanda biyobora ibinyabiziga n'abanyamaguru niba bari butambuke cyangwa bahagarara, hari n'amapoto ndetse n'ibimera byiganjemo ibiti.

Inyubako yubatse mu buryo bugezweho cyangwa igorofa iruhande rwayo hari ubusitani burimo ibiti n'ipoto itwara umuriro w'amashanyarazi.

Ibikoresho byifashishwa mu gutunganya umuriro usakazwa mu baturage, insinga, ibimera ndetse n'ibiti.

Ibinyabiziga biparitse iruhande rw'inyubako, birimo imodoka itwara indembe kwa muganga.

Umuntu uri kureba mu tubati tubikwamo impapuro cyangwa inyandiko zikenerwa muri serivisi zitangwa n'ubuyobozi.

Inyubako zitangirwamo serivisi hari abaturage bicaye munsi y'inyubako zikikijwe n'ubusitani burimo ibiti.

Inzira inyurwamo n'abanyamaguru isakaye, ikikijwe n'ubusitani, igana ku nyubako itangirwamo serivisi zirimo iz'ubuvuzi.

Ibitaro cyangwa kwa muganga, ahakirirwa abarwayi harimo ibitanda biryamaho abarwayi ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu buvuzi igihe umuntu yagiye kwa muganga.

Umuntu uri gukoresha mudasobwa, iteretse ku meza, arimo ayandikamo ndetse akora n'ibindi bitandukanye.

Inyubako nini yakira abantu benshi, ikikijwe n'ubusitani burimo ibiti, amapoto atwara umuriro w'amashanyarazi, n'inzira zubakishijwe amabuye.

Umunyamategeko cyangwa umucamanza ari gutanga ikiganiro akoresheje indangururamajwi imbere y'ibendera ry'igihugu.

Abanyamategeko bifotoreza hamwe, mu myambaro bagaragaramo ikoreshwa mu gihe bari guca urubanza mu rukiko, bakaba bagizwe n'abagabo n'abagore.

Abakekwaho ibyaha babiri bari kumwe n'abanyamategeko babiri bakurikiranye urubanza, bafite inyandiko ndetse na mudasobwa.

Abanyamategeko cyangwa se abacamanza, bari kurahira imbere y'amabendera y'igihugu, igihe bagiye gutangira inshingano.

Umuntu ujyanywe mu rubanza, ari kumwe n'umucamanza cyangwa umunyamategeko, agiye gukurikirana urubanza rwukekwaho ibyaha.

Abantu bahagaze munsi y'igiti bari murubanza abandi bicaye imodoka iparitse ndetse ibiti bikikije.

Inyubako zifungirwamo abakoze ibyaha ndetse imfungwa ziri kwinjira muri iyo nyubako izwi nka gereza, ahinjirira abagabo.

Abaturage bicaye bari mu biganiro cyangwa mu rubanza, abari imbere baca urubanza ukekwaho ahagaze yumva urubanza.

Polisi zijyanye umuntu ukekaho ibyaha igihe agiye mu rubanza, inyuma yaho hari imodoka ishinzwe gutwara abakekwaho ibyaha.

Abaturage bicaye hamwe bari mu nama ndetse hari gucibwa urubanza, ucirwa urubanza ahagaze imbere, hari n'abicaye ari bo bacamanza.

Umunyamategeko cyangwa umucamanza ukora mu rubanza wifotoza mu myambaro y'abanyamategeko cyangwa abacamanza.

Abantu batanu bahagaze bifotoza bisa n'aho barangije inama cyangwa ibiganiro bari bari gukora bari mu buyobozi.

Umugabo ukora akazi k'ubucamanza cyangwa umunyamategeko uhagaze yambaye imyambaro y'ab'abacamanza ndetse n'ibirahuri by'amaso.

Umuntu uri mu myambaro y'imfungwa cyangwa abagororwa ari kugenda inyuma y'imodoka ndetse n'ibimera biteye iruhande rw'inyubako.

Umunyamategeko uganira n'ukekwaho ibyaha cyangwa ushinjwa ibyaha bari mu rukiko igihe hagiye gucirwa urubanza ku ukekwaho ibyaha.

Umunyamategeko cyangwa umucamanza ukora mu rukiko aho aca imanza z'abanyabyaha ndetse n'abandi.

Umuhanda wubatswe mu buryo bugezweho unyurwamo n'ibinyabiziga ukikijwe n'ubusitani ndetse abanyamaguru baba batambuka hari ibiti n'inyubako iruhande.

Imodoka yifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro irimo izimya inyubako ibiti bikikije inyubako mu muhanda unyurwamo n'ibindi binyabiziga.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga ndetse ufite inzira y'abanyamaguru, umupolisi ahagarika ipikipiki mu muhanda.

Abantu bashinzwe kurwanya inkongi z'umuriro bari kuzimya ikinyabiziga cyakoze impanuka bari gukoresha umupira uzana amazi.

Umuhanda unyurwamo n'abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga, abaturage bari gutambuka, ukikijwe n'inyubako ndende z'amagorofa, zikorerwamo ubucuruzi.

Ubuyobozi bwateraniye hamwe, bwereka abaturage uko bazimya inkongi y'umuriro igihe yatatse ahantu ndetse abashinzwe kuzimya inkongi ari bo babigaragaza.

Igikoresho kifashishwa mu kuzimya umuriro igihe umuriro watatse ahantu cyangwa ikintu, iki gikoresho kikifashishwa mu kugira ngo inkongi y'umuriro ihagarikwe.

Ifoto y'imodoka ziparitse, imbere hariho inyubako ahantu bigaragara ko hafungwa, imodoka zikabuzwa gutambuka. Eee! Hagaragara ko haparitse imodoka ebyiri cyangwa hashoboka guparikwa n'izindi modoka, imbere y'inyubako ishobora kuba ikorerwamo n'ubuyobozi.

Ikinyabiziga cya polisi, gitwara abantu ndetse n'imizigo, kiri kugenda mu muhanda, urimo n'ibindi binyabiziga byiganjemo amapikipiki.

Imodoka ya polisi iparitse imbere y'inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi ndetse igatangirwamo n'izindi serivisi zitandukanye.

Abashinzwe kuzimya inkongi bari kumwe n'imodoka yabo, bakoresheje amazi bari kuzimya umuriro ahakikijwe n'abaturage benshi bashungereye.

Ibikoresho byifashishwa mu kuzimya umuriro igihe inyubako cyangwa se ahandi hantu hatatswe n'inkongi z'umuriro, ni ibikoresho byifashishwa mu kuzimya umuriro.

Ikirangantego k'ishyaka riharanira kwishyira ukizana, ubutabera n'amajyambere, k'ishyaka rikorera mu gihugu cy'u Rwanda.

Abaturage bari hamwe n'abayobozi bari kwiyamamariza amatora bambaye imyambaro imwe ndetse bafite n'ibirango.

Abaturage bari gutora mu matora ategurwa na leta cyangwa igihugu bamaze gutora bari gushyira impapuro zabo ahabugenewe.

Abaturage bamamaza umukandida wabo, mu matora ya perezida wa repubulika, kugira ngo azabone amajwi menshi, mu matora azaba ari imbere.

Ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, bigaragara ko ari imbere y'abaturage yagiye kubaganiriza cyangwa se kwiyamamaza ahantu hahuriye abaturage benshi.

Umubyeyi w'umumama wicaye mu ntebe yambaye ibirahure by'amaso n'indi myambaro.

Abaturage bahagaze hamwe ku murongo, ahaparitse ibinyabiziga, hari n'inyubako, bategereje kwinjira mu nyubako ihagazeho ababyeyi.

Ifoto y'abayobozi bo mu nzego za leta bigaragara ko bari bari mu nama ari benshi bishoboka ko hari mu nteko ishinga amategeko, bari mu nama bicaye hari ameza imbere yabo bateretseho amazi.

Abayobozi bahuriye hamwe bari kuganira cyangwa bari mu nama imbere yabo hateretse ibyo kunywa bigiye bitandukanye.

iInama ihurije hamwe ubuyobozi butandukanye bicaye bari kuganira bareba amashusho agaragara imbere yabo ndetse abandi bari imbere bayoboye inama.

Abayobozi bahuriye hamwe bari mu nama cyangwa ibiganiro bigaragara ko ari inteko ishinga amategeko baganirira ku meza ateretseho amazi.

Abaturage bari ku murongo bitabiriye serivisi za leta bari kugenda bahabwa umwe kuri umwe binjira mu nyubako itangirwamo serivisi.

Abantu babiri bicaye, bigaragara ko bari mu biganiro ku meza ariko imbere yabo hari indangururamajwi, bakaba basa n'abari mu nteko ishinga amategeko.

Ibinyabiziga bitwara imizigo binyuranaho umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga ukikijwe n'ibimera birimo ibiti, hari inzira y'abanyamaguru.

Ikinyabiziga cy'ikamyo kiri kunyura mu muhanda unyurwamo n'ibinyabiziga n'abanyamaguru, ukikijwe n'amazu aturwamo ndetse n'ibimera.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye, imodoka, amapikipiki, ndetse n'abanyamaguru, banambuka umuhanda.

Imodoka nini itwara imizigo, iri kugenda mu muhanda ukikijwe n'ibiti, hari inzira y'abanyamaguru, abanyamaguru barimo gutambuka.

Ahategerwa imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange, abaturage baje gutega imodoka, hari amapoto atwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'imizigo y'abaturage.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga, hari igare ritwaye imizigo, hari inzira iyobora amazi ndetse umuhanda ukikijwe n'ibiti.

Ifoto y'imodoka itwara ibintu n'abantu bakeya izwi nk'ikamyo, iri kugenda mu muhanda bigaragara ko ihetse ibintu n'ubwo bitwikiriye.

Ikinyabiziga gitwara abantu mu buryo bwa rusange gitambuka mu muhanda urimo n'ibindi binyabiziga, hari inzira y'abanyamaguru ndetse n'ibiti bikikije umuhanda.

Imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo itwara imizigo ihetse imifuka iri kugenda mu muhanda wubatswe mu buryo bugezweho.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga mu byerekezo bitandukanye harimo imodoka, ufite inzira y'abanyamaguru ukikijwe n'ibiti ndetse n'ibindi bimera.

Ahategerwa imodoka zitwara abagenzi ndetse zitwara n'imizigo yabo mu buryo bwa rusange, hari abaturage bazanye imizigo yabo kugira ngo bajyane n'izo modoka.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ikaba itwara n'imizigo yabo, ibakura ahantu hamwe ibajyana ahandi, mu byerekezo bitandukanye.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru hari ikinyabiziga gitambuka imbere hari inzu zikorerwamo ubucuruzi abaturage baje gusaba serivisi.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga hari inzira y'abanyamaguru, amapikipiki n'igare bitambuka umuhanda ukikijwe n'ibiti hari imodoka ziparitse ku ruhande.

Imodoka itwara ibintu n'imizigo iri kugenda mu muhanda ukikijwe n'ibiti ndetse n'amazu aturwamo n'abaturage, hari n'inzira zinyurwamo n'abanyamaguru.

Amahuriro y'imihanda inyurwamo n'ibinyabiziga, imodoka n'amapikipiki bitambuka, umuhanda ukikijwe n'ubusitani burimo ibiti.

Ipikipiki nini itwara imizigo igenda mu muhanda unyuramo ibinyabiziga, ibindi binyabiziga biparitse abanyamaguru batambuka mu muhanda.

Ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda, harimo imodoka y'ikamyo ndetse n'ipikipiki, iruhande rw'umuhanda hateye ibiti ndetse n'ibindi bimera.

Ikinyabiziga giparitse ku nyubako zikorerwamo ubucuruzi bw'ibinyobwa, hari umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru.

Imodoka igenda mu muhanda unyurwamo n'ibinyabiziga, abaturage basunika amagare ariho imizigo, inzira z'abanyamaguru n'ibiti bikikije umuhanda.

Ahaparikwa ibinyabiziga birimo ibitwara abagenzi mu buryo bwa rusange bw'modoka ndetse n'amapikipiki hari n'abaturage, baje gutega ibyo binyabiziga.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, igenda mu muhanda unyurwamo n'ibinyabiziga, inzira y'abanyamaguru, umunyamaguru atambuka, ibiti bikikije umuhanda.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga, hari ikamyo itambuka, inzira y'abanyamaguru n'ibiti bikikije umuhanda.

Imodoka itwara imizigo itambuka mu muhanda urimo ibindi binyabiziga, abanyamaguru batambuka mu nzira yabo, ibiti bikikije umuhanda n'amatara yo ku muhanda.

Ifoto igaragaza ibinyabiziga biri kugenda mu muhanda, higanjemo ibizwi nk'amapikipiki biri kugenda muhanda imbere y'inyubako zikorerwamo ubucuruzi biragaragara ko ari ahantu hari umujyi.

Ahategerwa ibinyabiziga muburyo bwa rusange mu masaha y'umugoroba ibinyabiziga biparitse ahicarwa n'abagenzi ndetse n'amagare asunikwa.

Imodoka itwara imizigo y'ikamyo, ihetse inka, igenda mu muhanda unyurwamo n'ibinyabiziga, ukaba ukikijwe n'ibimera byiganjemo ibiti.

Imodoka itwara imizigo igenda mu muhanda, hari n'ibindi binyabiziga, mu muhanda ufite inzira z'abanyamaguru, abanyamaguru nabo ubatambuka.

Ibinyabiziga bigenda mu muhanda, amagare atwaye abantu ndetse abanyamaguru bagenda mu muhanda, umuhanda ukikijwe n'ibimera birimo ibiti.

Imodoka itwara imizigo y'ikamyo iri iruhande rw'inzira y'abanyamaguru, inyubako zikorerwamo ubucuruzi, abaturage batambuka n'ibindi binyabiziga bitambuka.

Ibinyabiziga bitwara imizigo bigenda mu muhanda unyurwamo n'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru, bikaba bijya mu cyerekezo kimwe.

Imodoka nini y'ikamyo itambuka mu muhanda unyurwaho n'ibinyabiziga umunyamaguru atambuka umuhanda ukikijwe n'ibimera byiganjemo ibiti.

Ibinyabiziga bitambuka mu muhanda unyurwamo mu byerekezo byombi, amapikipiki imodoka itwara imizigo itambuka, ndetse umuhanda ukikijwe n'ibimera birimo ibiti.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga, ipikipiki itambuka, inzira yambukirwamo n'abanyamaguru, ibiti bikikije umuhanda.

Akamodoka gatoya gatwara imizigo kari kugenda mumuhanda wubatswe mu buryo bugezweho iruhande rw'umuhanda hateye ibimera byiganjemo ibiti birebire.

Umuntu utwaye ipikipiki mu muhanda ari kugenda ahakikijwe n'inyubako z'ubucuruzi ndetse n'iziturwamo n'abaturage, umuhanda ukikijwe n'ibiti.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bitwara imizigo n'ibitwara abantu hari inzira y'abanyamaguru ndetse n'ibiti bikikije umuhanda, abanyamaguru batambuka.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga inzira y'abanyamaguru inyubako zikorerwamo ubucuruzi abaturage batambuka n'ibinyabiziga bitambuka.

Inzira zinyurwamo n'abanyamaguru ahegereye amazu y'ubucuruzi, abaturage batambuka abandi bicaye bategereje.

Ifoto y'ibibuga bikoremo iyi imikino cyangwa se imyitozo, hakinirwa imikino igiye itandukanye, hagaragara ikibuga ndetse n'aho abantu bicara, igihe baje kureba iyo mikino igi itandukanye.

Umuhanda mutoya uri ahantu heza hasa neza, ukoreshwa igihe abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa bari gutembera mugihe babikeneye.

Ikibuga gikinirwamo umukino w'amaboko, gikikijwe n'ibiti, ndetse kizitiye ahubakiye kugira ngo harindwe.

Ikibuga kigari gikinirwamo imikino itandukanye, hari aho abantu bicara hatwikiriye igihe bari gukurikirana iyo mikino n'ibiti biteye iruhande rw'ikibuga.

Icyapa gishyirwa mu muhanda kiyobora ibinyabiziga kigaragaza ko imbere mu muhanda hari imirimo y'ubwubatsi iri kuhakorerwa.

Icyapa cyo mu muhanda kigaragaza ko aho imbere hari amatara ayobora ibinyabiziga cyangwa abanyamaguru, akaba ari icyapa gihagarika cyangwa kikemerera abatwara ibinyabiziga kugenda.

Ibyapa bigaragaza ko ugiye kwinjira mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse bakwifuriza urugendo ruhire.

Icyapa gishyirwa mu mihanda inyurwamo n'ibinyabiziga, kigaragaza umuvuduko ntarengwa wemewe ku binyabiziga biri kunyura muri uwo muhanda.

Icyapa gishyirwa mu muhanda kigaragariza ibinyabiziga ko umuhanda imbere ugiye ufite amashami cyangwa ufite amahuriro y'imihanda.

Icyapa cyo mu muhanda kiyobora ibinyabiziga kigaragaza ko bitemewe ko ikinyabiziga gikata kigasubira aho cyari kirimo gituruka.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda kimenyesha abatwaye ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru ko imbere mu muhanda hari akazamuko cyangwa aho umuhanda uzamutse.

Icyapa cyo mu muhanda kigaragariza ibinyabiziga ndetse n'abaturage ko aho hantu hanyurwa n'abana bakahambukira igihe bari kwambukiranya imihanda.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda cyangwa izindi nzira kigaragariza ibinyabiziga ko umuhanda ugiye gukata usubira aho wari kuva.

Ibyapa byo ku muhanda bigaragaza inzira y'abanyamaguru ndetse n'amahuriro y'imihanda amapoto ajyana umuriro w'amashanyarazi mu mazu y'abaturage ndetse n'ibindi bikorwa bibyara inyugu.

Amatara yo mu muhanda ayobora ibinyabiziga abyereka igihe byemerewe gutambuka n'igihe bitemerewe gutambuka.

Ibyapa bigaragaza ko uri kwinjira cyangwa uri gusohoka mu bihugu bitandukanye, mu muhanda unyurwamo n'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda kiyobora ibinyabiziga kigaragaza ko aho ugeze ugomba guhagarara, inyuma ikindi cyapa bisa ndetse n'ibimera byiganjemo ibiti.

Icyapa cyo mu muhanda cyereka abatwaye ibinyabiziga ko imbere hari amahuriro y'imihanda cyangwa se ahahurirwa n'imihanda itandukanye.

Inyubako ndende yubatswe mu buryo bugezweho y'igorofa irarwamo ndetse igakodeshwa by'igihe gitoya.

Amazu atuwemo n'abaturage yubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari ahantu higanjemo ibindi bihingwa ndetse n'ibimera, akaba y'ubatse mu bizwi nk'umudugudu.

Inzu zubatswe mu buryo bugezweho, zigeretse ziturwamo n'abaturage zizwi nk'igorofa, zikaba zishobora kuba zanakodeshwa, imbere yaho hari ibimera byiganjemo ibyatsi.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga, inyubako zubatswe mu buryo bw'amagorofa ziturwamo n'abaturage zizitijwe n'inyubako ziriho ibyuma.

Inyubako ndende cyangwa igorofa, yubatse mu buryo bugezweho, itangirwamo serivisi zo gucumbikamo igihe gito ndetse no kuraramo.

Inzu zubatswe mu buryo bugezweho, ziturwamo n'abaturage, hari ibigega bifata amazi yo kwifashishwa mu mirimo ya buri munsi yo mu rugo.

Inzu ziturwamo n'abaturage zikikijwe n'ibimera byiganjemo ibiti, hari nk'imihanda inyurwamo n'ibinyabiziga.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru ukikijwe n'amazu y'ubucuruzi, abaturage batambuka n'ibinyabiziga.

Inzu zitangirwamo serivisi zikenerwa n'abaturage zikanacururizwamo ibikoresho bikenenerwa n'abaturage birimo imyambaro.

Inzu yo guturwamo yubatse iruhande rw'umuhanda, hakaba hari umuryango munini winjira mu nzu iruhande rwayo hari ubusitani hari n'amapoto atwara umuriro w'amashanyarazi.

Inyubako zikorerwa ubucuruzi bw'ibikoresho, imyambaro n'ibiribwa bikenerwa n'abaturage, imitaka yicarwamo n'abacururiza hanze, abaturage batambuka imbere y'inyubako.

Ibisenge by'inzu ziturwamo n'abaturage bikikijwe n'ibimera birimo ibiti, insinga z' amashanyarazi zinyura hejuru y'amazu.

Umuhanda ugana ahatuwe n'abaturage hari amazu y'abaturage unyurwamo n'ibinyabiziga ndetse n'amapikipiki n'abanyamaguru, ukikijwe n'ubusitani burimo ibimera birimo n'ibiti.

Inyubako yubatswe mu buryo bugeretse cyangwa igorofa, imbere yayo hari umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru, hari n'ibimera by'ibiti biteye imbere y'inyubako.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru, ukikijwe n'amazu y'ubucuruzi, abaturage batambuka, imodoka ziparitse.

Inyubako zibikwamo ibicuruzwa cyangwa ibindi bintu, zikaba zanakorerwamo n'inganda, zikaba ari inyubako ndende, zubatswe mu buryo bugari.

Umuhanda ugana ku nyubako ziturwamo n'abantu cyangwa se inzu, hagaragara umuryango munini uyinjiraho, iruhande rw'inzu hari ubusitani bwiganjemo ibiti.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru bari gutambuka, ukikijwe n'amazu aturwamo n'abaturage ndetse n'ibimera n'ubusitani.

Umuhanda unyurwamo n'abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga ukikijwe n'ubusitani, ibimera n'amazu aturwamo n'abaturage ugaragazwa ko uri Kimironko.

Inyubako ndende n'inyubako ikorerwamo ubucuruzi yubatse iruhande rw'umuhanda. Imodoka iparitse abanyamaguru batambuka.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho y'igorofa ikaba iturwamo cyangwa irarwamo n'abaturage cyangwa abandi bayisuye.

Ubusitani buri imbere y'umuhanda uteyemo ibimera byiganjemo ibiti, harimo n'amapoto atwara umuriro w'amashanyarazi, hakicawamo n'abantu.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, igatangirwamo na serivisi iri ku muhanda, imodoka iparitse abaturage bicaye ku muhanda.

Imodoka ntoya itwara abantu, iri kugenda mu muhanda, imbere y'inyubako z'ubucuruzi, bigaragarako hano iri kugenda ari ahantu mu mujyi, ahantu hari iterambere ikaba.

Imihanda inyurwamo n'ibinyabiziga mu masaha y'umugoroba, ukikijwe n'ubusitani, abanyamaguru batambuka n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda unyurwamo mu buryo bubiri, unyuranamo, bamwe banyura hejuru, abandi banyura hasi, ufite inzira z'abanyamaguru ndetse inzira zinyurwamo n'ibinyabiziga, amagare ndetse n'amapikipiki.

Umuhanda unyurwamo n'abanyamaguru ndetse naho abaturage bategera imodoka zitwara abagenzi ukikijwe n'ibiti ndetse n'ibindi bimera.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga, ndetse n'amagare n'abanyamaguru, bajya mu byerekezo bitandukanye, ndetse ugaparikwamo n'imodoka, zimwe na zimwe.

Umuhanda wubatswe mu buryo bugezweho igenda inyuranyuranamo hari ubusitani bukikije iyo mihanda hari n'inzira inyurwamo n'abanyamaguru.

Umuhanda wubatswe mu buryo bugezweho bunyurwamo n'ibinyabiziga, imodoka n'amapikipiki, ukaba ufite n'inzira y'abanyamaguru ukikijwe n'ibiti ndetse n'ubusitani.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga ukikijwe n'ubusitani, hari aho abanyamaguru bambukira bari kwambuka ndetse n'ibinyabiziga bitambuka.

Imihanda yubatswe mu buryo bugezweho inyurwamo mu byerekezo byombi, inyurwamo n'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru, ikikijwe n'ubusitani ndetse n'ibyabo.

Amahuriro y'imihanda inyurwamo n'ibinyabiziga ndetse n'amapikipiki n'inzira z'abanyamaguru, hakaba hakikijwe n'ubusitani busa neza.

Amahuriro y'imihanda mu masaha y'umugoroba, ari kunyurwamo n'ibinyabiziga birimo imodoka, amapikipiki n'abanyamaguru, umuhanda ukaba ukikijwe n'ubusitani.

Amahuriro y'imihanda, amatara yo ku muhanda, inzira y'abanyamaguru, abanyamaguru batambuka, ndetse n'ibinyabiziga iruhande rw'amazu akorerwamo ubucuruzi.

Umuhanda unyurwamo mu byerekezo bitandukanye, uri gucibwamo n'ibinyabiziga n'amapikipiki mu masaha y'umugoroba, ukaba ukikijwe n'ubusitani.

Umuhanda wubatswe mu buryo bugezweho, unyurwamo n'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru, ufite ibiti biwukikije ndetse n'ibindi bimera.

Ahakenewe kwambukirwa n'abanyamaguru mu mihanda inyurwamo n'ibinyabiziga ndetse n'ibindi, hagaragara n'amatara ayobora ibinyabiziga.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga, hari inzira abanyamaguru bambukiramo , amatara ayobora ibinyabiziga, ibimera bikikije, umuhanda, abanyamaguru batambuka munsi.

Amahuriro y'imihanda yubatse muburyo bugezweho inyurwamo n'ibinyabiziga abanyamaguru ndetse ukikijwe n'ubusitani burimo ibiti.

Amahuriro y'imihanda inyurwamo n'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru harimo n'inzira zambukirwamo n'abanyamaguru ndetse n'amatara ayobora abanyamaguru n'ibinyabiziga.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga mu byerekezo bitandukanye ukikijwe n'ubusitani burimo ibiti, amapikipiki atambuka, amazu akorerwamo ubucuruzi.

Umuhanda wubatswe mu buryo bugezweho, unyurwamo mu byerekezo byombi, hari inzira y'abanyamaguru, urimo ubusitani ndetse ukikijwe n'ibimera byiganjemo ibiti.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga ukikijwe n'amazu ndetse n'ubusitani burimo ibiti imodoka zitambuka.

Imodoka itwara ibintu iri kugenda mu muhanda harimo n'izindi modoka, umuhanda ufite inzira y'abanyamaguru nahanyurwa n'amagare.

Ibinyabiziga biparitse mu muhanda, umuhanda wubatse mu buryo bugezweho, imbere y'ahambukirwa n'abanyamaguru na ho haparitse amapikipiki, ategereje ko abanyamaguru bambuka.